Abantu batanga serivise z'ibijyanye n'ubuzima, hari utudege dutwara amaraso tuzwi nka drone utudege tutagira abapiloti aho bari gushyiramo amaraso kugira ngo bakohereze bayajyane ku kigo nderabuzima runaka.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye batanga ubuvuzi bw'ibanze bazwi nk'abaganga, bakaba bateraniye hamwe mu nzu ifite icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho bari kwita ku murwayi wagize ikibazo bose hamwe.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho muri izo nyubako ari kwa muganga, hakaba hari imbuga iparitsemo imodoka y'imbangukiragutabara, iyo mbuga ishashemo amapave.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye bari gukoresha bavura, aho hari n'imodoka cyaje cyabuhariwe, iyo umurwayifatiye aho ngaho bahita bamuvura.

Abantu bakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka Croix Rouge bambaye utujiri tw'umutuku aho bari gutabara umuntu wagize ikibazo waguye mu mukoke none bakaba bari kumuvanamo ngo bamwihutane kwa muganga.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu gikorwa cy'ubutabazi, aho hari umuntu wari waguye mu mazi none yoherejemo imigozi afasheho bari kugenda bamuzamura kugira ngo barebe ko bagira icyo bamufasha.

Abantu bagiye batandukanye basunitse akagare ka bulakari, kifashishwa bari gutanga ubutabazi bwihuse ku bantu bagize ikibazo cy'imvune, bakaba bari kukegereza iyi modoka ngo bashyiremo uwo muntu.

Inyubako nziza cyane nini kandi ngari akaba ari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, harimo abantu bambaye utujiri bigaragara ko bakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda.

Mu bitaro hahuriyemo abantu benshi cyane, abaganga ndetse n'abakora amasuku ku bitaro, aho bari kugenda basukura ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi kugira ngo bimakaze isuku.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bahagaze imbere y'iyomodoka bari kwifotoza, bigaragara ko ari abantu baje gushura ikigo nderabuzima runaka none bakaba bari kwifotoreza imbere y'imbangukiragutabara.

Abantu benshi cyane bahagaze mu muhanda wa kaburimbo higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo aho bari kwifotoza, bigaragara ko bari bari mu nama none irarangiye baje gufata ifoto y'urwibutso.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako z'ibitaro, aho haba hari akayira kagiye gasakaye abantu banyuramo ndetse hakaba hari n'ubusitani buba burimo amoko angi atandukanye y'indabyo kandi nziza.

Abantu benshi cyane bagera muri batandatu bahagaze harimo abazungu ndetse n'abirabura bazamuye amaboko bigaragara ko ari abaganga bari kurahirira kubw'inshingano nziza nshyashya bahawe.

Ni kwa muganga ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi aho hari abarwayi benshi bicaye ku murongo bigaragara ko bategereje serivisi za muganga, hakaba kandi hari umuganga uhageze ari kugenda abasuhuza.

Abantu benshi cyane bari hamwe, aho bari mu cyumba runaka gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hakaba harimo abaturage ndetse n'abaganga, aho bari kugenda bahanagura ibikuta by'iryo vuriro.

Mu bitaro haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye abaganga bifashisha igihe bari kwita ku barwayi, icya mbere baba basabwa kwambara udupfukantoki ndetse bakambara n'udupfukamunwa bagafata ibyo bikoresho kugira ngo babone gutangira ako kazi.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite n'imisatsi ya menshi uri kwakira umurwayi w'umugore amubaza uko amerewe.

Abantu bateraniye hamwe bakaba bari kwa muganga aho bari mu nama runaka yiga ku nsanganyamatsiko y'ukuntu bakomeza guteza imbere ubuvuzi maze indwara bakazirandura burundu.

Abanyeshuri benshi cyane bahuriye hamwe bigaragara ko biga ibijyanye n'ubuvuzi, bakaba bahagaze bari kwifotoza bafata ifoto y'urwibutso, bakaba bari ahantu hari ubusitani bwiza cyane.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko baje gushaka serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi kuko bicaye mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga hari umuganga uri kugenda abanyuramo buri wese amubaza uko amerewe.

Muri hoteli haba hari abantu babyigiye bazi kwakira neza ababagana, bakagenda babaha serivisi nyinshi zigiye zitandukanye, abakora murizi hoteli rero baba bambaye amataburiya meza cyane agaragaza isuku.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'umweru akaba yambaye n'udupfukantoki tujya gusa ubururu afite n'umusatsi muke, ari muri laboratwari aho ari kugenda akora ubushakashatsi.

Umuntu wambaye ishati y'umweru akaba ari muri laboratwari, aho ari gushuka amazi mu karahure bigaragara ko hari ibintu ashaka gusuzuma kugira ngo abashe gukora ubushakashatsi.

Ni muri laboratwari aho harimo ibikoresho byinshi cyane bigiye biri mu mabara ajya gusa umweru ndetse n'ubururu, aho haba harimo ibirahure biba birimo amazi abantu biga ibijyanye n'ubuvuzi bajya gukoreraho ubushakashatsi.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye z'ubuzima, cyane cyane izita ku bana, haba harimo umuganga wabyigiye. Umuntu wese uhageze, baramusuzuma bakareba uko uburwayi bwe buhagaze bakamuha umuti.

Abana benshi cyane biga mu mashuri y'inshuke aho bafite udusahani turimo ibyo kurya buri wese bakaba bicaye ku mukeka, ubu ni uburyo bwiza bwashyizweho na Leta y'u Rwanda bw'uko buri mwana w'umunyeshuri agomba kubona icyo kurya ku ishuri.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, harimo umugore wicayeye ndetse n'abaganga babiri bari kumwitaho, kugira ngo barebe ikibazo yaba afite hanyuma bamuvure.

Umugore ukikiye umwana, aho ari kugenda amwonsa kugira ngo umwana agire imikurire myiza. Uwo mugore yambaye ikintu kimeze nk'isaha ku kuboko naho umwana yambaye akagofero mu mutwe.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho aho zifite inzugi zisa icyatsi ndetse zikaba zubakishije amatafari ahiye, aha hakaba ari ku kigo cyigisha amashuri agiye atandukanye by'umwihariko mu mashuri y'inshuke.

Abana biga mu mashuri y'incuke, bakaba bambaye impuzu z'impuzankano, aho buri wese afite icyansi mu ntoki, aho ari kugenda anywa amata, hari umugabo uri kugenda abasomya, ubu ni uburyo bwo kurwanya imirire mibi.

Abantu benshi cyane bambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi, bakaba bicaye hamwe mu matente ateye amarange y'umweru ndetse n'icyatsi bigaragara ko bari mu nama runaka, imbere yabo hari ubusitani buteyemo umucaca mwiza cyane.

Abaganga bateraniye hamwe bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamunwa dusa umweru, bakaba bari mu nama y'uburyo ki bagiye gutanga serivisi z'ubuvuzi uwo munsi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari kwa muganga, aho muganga ari kugenda abasuzuma kugira ngo arebe ibibazo cyangwa indwara bafite maze abavure.

Umugore uryamye akaba akikiye umwana bigaragara ko yishimiye ko yabyaye, akaba yazirikiye imisatsi ye inyuma ndetse aryamye ku gitanda kwa muganga.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bw'abana bakunze kuba ari abantu bigirira umutima mwiza, aba rero ni abagore batatu bambaye impuzankano z'abaganga, bakaba bari kwandika buzuza amafishi.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda aho bafite icyapa kiri mu mabara y'umweru cyanditseho amagambo ngo duharanire kubaho neza twita ku buzima bwacu.

Ni kwa muganga mu nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, itangirwamo serivisi nyinshi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho hari abagore babiri baje gushaka izo serivisi kwa muganga. Muri icyo cyumba hakaba harimo insakazamashusho iri kwaka.

Umuntu wagize ikibazo cy'ihungabana mu mutwe yambaye agapira gasa umutuku n'ipantaro y'umutuku akaba yambaye n'ingofero ya gisirikari, hari umukobwa wambaye iby'umukara ari kumuganiriza amuhumuriza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bari kwifotoza, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, aho bicaye ku ntebe nziza cyane bari gufata ifoto y'urwibutso, imbere yabo hari ubusitani bwiza cyane.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bakaba biganjemo abaganga ndetse n'abaje gushaka serivisi aho bose bambaye udupfukantoki, bakaba bafite icyapa cyanditse mu mabara agiye atandukanye y'umukara n'umweru.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho aho zubakishije amatafari ahiye, zifite inzugi z'ibyuma ariko zikingishijwe mu mabara y'umweru, akaba ari kwa muganga.

Umugore w'umujyanama w'ubuzima yambaye agapira k'icyatsi, yambaye n'ijipo afite indangururamajwi mu ntoki, ari kuvuga ngo baho neza, twite ku buzima bwo mu mutwe, ubuzima bwiza bwo mu mutwe ni uburenganzira bwa buri wese.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo, kikaba gishushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, hakaba handitseho amagambo ngo isange one stop center.

Ahantu hubatse neza kandi hatatse neza hakaba hari amatente agiye atatse mu mabara y'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda aho ari mu mabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo.

akabati karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye by'umwihariko nk'imiti, aho ari muri farumasi umuntu wese urwaye araza akavuga indwara ye, bagahita bamuha umuti yawunwa agakira.

Muri farumasi haba hakoramo abaganga b'inzobere babyigiye, aho baba bacuruza imiti igiye itandukanye ku buryo igihe cyose ubaganye urwaye ubabwira indwara urwaye hanyuma bakayivura igakira.

Muri farumasi haba harimo imiti myinshi igiye itandukanye, ku buryo umuntu wese waje gushakamo serivisi z'ubuzima bamwereka cyangwa se bakamuha umuti wose yaba ashaka, hanyuma akabasha kuba yavurwa agakira byihuse.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye ikaba ifite inzugi zikozwe mu byuma z'imyeru ndetse hakaba hariho n'icyapa kigaragaza ko batanga serivise zijyanye n'ubuvuzi ari muri farumasi.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba afite n'imisatsi myiza ya menshi, akaba akora muri farumasi aho acuruza imiti igiye itandukanye, ivura indwara nyinshi cyane.

Muri farumasi haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'imiti ivura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, haba harimo umuganga ku buryo umubwira indwara urwaye agahita aguha umuti wayo ako kanya.

Muri farumasiyo haba harimo amoko agiye atandukanye y'imiti, aho uza urwaye ukavuga indwara urwaye, hanyuma bagahita baguha umuti byihute bitagusabye kwirirwa ujya gutonda imirongonko kwa muganga.

Ni muri farumasi aho hari amoko agiye atandukanye y'imiti ku buryo igihe cyose uhageze urwaye ubwira umuganga indwara urwaye, hanyuma akareba imiti bihura akayiguha ukamwishyura.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho aho bikikijwe n'umuhanda w'amapave ndetse hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane bugezweho bufite n'imbuga irimo amapave.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho kuri iyo nyubako hariyo icyapa, cyamamaza ko hari farumasi, ni byiza cyane ko wanyarukira muri farmasi igihe waba urwaye, bakaguha imiti yagukiza vuba vuba.

Unyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye n'amarangi y'umweru ikaba ifite uruzitiro rw'ibyuma rusa umukara n'umweru, hakaba hari n'icyapa kiri mu mabara y'umweru kigaragaza ko ari ku ivuriro rya Nyagatare.

Muri farumasi haba harimo amoko agiye atandukanye y'imiti, iyi miti rero ikaba yifashishwa bari kuvura abarwayi indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ku buryo igihe cyose wumvishe urwaye, unyarukirayo bakaguha umuti ugukwiriye.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu gikorwa cyo kwamamaza aho higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakoze akaziga aho imbere yabo hari ameza ariko udupapuro bikaba bigaragara ko ari two bagiye gukoresha batora.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bahuriye mu gikorwa kimwe runaka, aho hariho bamwe biviriye mu isoko n'abandi baje kureba icyo gikorwa cyabereye aho ngaho n'ubwo hari n'abatarakimenya.

Abantu benshi cyane bari kugenda mu muhanda bafite icyapa bigaragara ko bari mu gikorwa runaka cyanditseho ngo twubake u Rwanda ruzira ibiyobyabwenge, kikaba kiri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Ni ku ivomero rusange ahahuriye abantu benshi baje gushaka amazi bakaba batonze umuronko, imbere hakaba hari umugore wambaye akajiri bigaragaza ko ari we uvomesha agenda abaha amazi.

Abanyeshuri ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, bakaba bari kugenda mu muhanda bambaye imyambaro igiye itandukanye, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo ngo birakureba turwanye malariya.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo abambaye imyambaro y'udupira iri mu mabara y'umweru, bakaba bicaye bigaragara ko bari mu nama, inyuma yabo hatakishije ibitambaro biri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi cyane bahagaze bari kwifotoza, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bigaragara ko ari abanyeshuri, bakaba bafite icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo mu mabara y'umukara.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, hari abanyeshuri bahagaze bari kureba abahanzi babiri bari imbere kuri ruhangwamboni aho bari kugenda babaririmbira, abanyeshuri nabo bishimye banezerewe bareba uburyo ki babikoramo.

Ubuvuzi gakondo na bwo bukomeje gutera imbere cyane, aho basigaye bavura nabo indwara zigiye zitandukanyekanya za kinyarwanda, bakoresheje imiti itandukanye, itunganywa muri ibi bimera.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bw'ibirenge akaba aryamye kwa muganga ariko byakomeje kugorana, ni byiza ko yanyarukira mu buvuzi bwa kinyarwanda kugira ngo babashe kumuha indi miti yamukiza.

Hari ibikoresho by'ubukorikori bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho ibi ngibi byifashishwa n'abavuzi b'inzobere bagenda batunganya iyi miti, ikavura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko iza Kinyarwanda.

Ameza arambitseho ibikoresho bijyiye bitandukanye by'umwihariko ibikoresho bifashisha bari kuvura, hariho umukase, iselegi ndetse n'akuma bifashisha bari gupima umutima w'umuntu ngo bumve uko utera.

Agasekuru karimo umuhini wako, bakaba bari gusekuriramo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara nk'iz'amarozi.

Ubuvuzi bwa gakondo na bwo bumaze gutera imbere, aho abantu basigaye bajya gushakayo imiti y'indwara zimwe na zimwe za kinyarwanda, ziba zarananiranye kwa muganga, hanyuma umuvuzi w'aho akaguha iyo miti.

Ni kwa muganga mu nzu itangirwamo ubuvuzi bugiye butandukanye by'umwihariko ubuvuzi bwa gakondo aho bafasha umurwayi kuba yakira indwara zimaze igihe zitandukanye ziba zarananiranye kwa muganga.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe ku nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ahazwi nko ku kigo nderabuzima, hakaba higanjemo abagore n'abagabo bahagaze bigaragara ko bategereje muganga.

Ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, aho ari umuganga wambaye itaburiya ari kugenda yita ku barwayi kugira ngo asuzume arebe neza niba ubuzima bwabo bumeze neza.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe higanjemo abaganga ndetse n'abaturage n'abayobozi bakaba bari kwifotoza, bahagaze imbere y'inzu y'ivuriro iri mu mabara y'ubururu yanditseho giru ubuzima.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bigaragara ko bagiye gutaha ikigo nderabuzima gishyashya, harimo abantu bambaye imipira y'icyatsi, ndetse n'umusirikare umwe. Hari umugore ufite umukasi uri gukata imigozi iziritse.

Kwa muganga haba hari amoko agiye atandukanye y'udukarito, utu dukarito rero tuba turimo imiti y'amoko menshi yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, haba hari kandi n'umuntu uyitanga witwa umuganga.

Ni kwa muganga mu nzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho hari umugore wagiye kuvuza umukobwa we akaba yahaye akaboko muganga, muganga ari kugira ngo asuzume indwara arwaye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyi nyubako isakaje amabati y'ubururu, iteye n'irangi ry'ubururu ku bikuta, mu rubaraza hicayemo abantu bigaragaza ko ari ku ivuriro.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako zo ku mavuriro agiye atandukanye, akaba ateye amarangi y'ubururu ndetse afite n'ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti bizana umuyaga n'amahumbezi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe kwa muganga bigaragara ko ari ababyeyi baje gukingiza abana babo kugira ngo barebe ko abana babo bakomeza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Inkoko ebyiri ziri mu mabara y'umweru, zikaba zishushanyije ku gakarito bigaragara ko karimo umuti uvura inkoko indwara nyinshi zigiye zitandukanye, nawe nimba uzoroye wahanyarukira bakakugurisha imiti.

Umugabo wambaye ishati y'umweru akaba yarateretse umusatsi, ari ahantu arahagaze ari guseka, bigaragara ko ari umuganga uvura indwara zijyanye n'amaso.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru cyanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Nyagatare kikaba giteye ahantu mu busitani, hari amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo ndetse hari n'ibiti bizana umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarangi y'ubururu akaba ari inyubako y'ikigo nderabuzima, aho hejuru handitseho amagambo ngo girubuzima, mu kibaraza hari abantu baje kwivuza.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bigaragara ko bari mu nama yiga ibijyanye n'imibereho cyangwa ubuzima bwa muntu, bambaye udupfukamunwa bicaye ku ntebe bakurikiye ndetse harimo n'abahagaze, imbere yabo hari ibibumbano bijya kumera nk'abantu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako isakaje amabati y'ubururu ikaba iteye n'amarangi y'ubururu ku bikuta bigaragara ko ari ku ivuriro kuko hari n'abantu benshi bahicaye baje gushaka serivisi zubuvuzi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bigaragara ko ari inyubako z'amashuri, zikaba zubakishije amatafari ahiye, aho dusakaje amabati y'ubururu, haruguru hari ikibuga kigari bakunda gukoreramo imyitozo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, iyi nyubako ikaba iteye amarange y'umweru aho imbuga yayo ishashemo amapave kandi umuhanda uyinyuraho ukaba ari uw'amabuye.

Ku kigo nderabuzima haba hari inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho zisaje amabati y'ubururu, ziteye amarange y'umweru ku bikuta. Abaturage bakunda kuhahurira iyo bagiye kuhashaka serivise zitandukanye z'ubuvuzi.